Inzu nziza cyane yubatse neza, ifite isuku imbere yayo hari ibiti byiza bifasha abari hafi aha kubona umwuka mwiza, iriho icyapa kigaragaza ko ikorerwamo ubucuruzi, serivisi zitanga ibiribwa n'ibinyobwa.

Ibyicaro biteguye neza cyane ahantu hatangirwa serivisi ijyanye n'icyo kunywa n'icyo kurya, hateguwe hategereje kwakira abashyitsi cyangwa se abakiriya baza bahangana.

Inyama ihiye yokeje neza, isa neza iteye ipfa. Inyama ni ikiribwa gikomoka ku matungo gikungahaye cyane ku ntungamubiri zubaka umubiri, ndetse kiraryoha cyane mu kanwa iyo uri ku kirya.

Ikiribwa kiri mu bwoko bw'ibyubaka umubiri bikomoka ku matungo cyitwa ifi. Ifi yokeje neza isa neza iri kumwe n'ifiriti ku ruhande ndetse n'agasarade, irahiye ibasha guhita yaribwa aka kanya.

Ubusitani bwiza cyane, buteyemo intebe bwiteguye kwakira ababugana, buri imbere y'inzu nini nziza isa neza, ikorerwamo umurimo w'ubucuruzi, bacuruza ibinyobwa n'ibiribwa.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibinyobwa hiyubashye cyane harateguye hari ibyicaro hategereje ko abantu baza bakicara bagafata ibinyobwa.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe, bahuriye ahantu hagurishirizwa ibinyobwa n'ibiribwa. Bataramiwe n'ababyinnyi nyarwanda, barizihiwe barishimye, barimo gufata icyo kunywa ari nako bota umuriro.

Ikiribwa gikomoka ku matungo" inyama zitunganyije neza cyane ziri ku sahani zisa neza ziteye ipfa". Inyama rero zikungahaye cyane ku ntungamubiri zubaka umubiri.

Ibicuruzwa byiganjemo cyane cyane ibinyobwa, bitondetse neza aho bigurishirizwa, biteretse ku buryo umuguzi wese icyo ashaka ahita akibona, kandi biroroshye guhita bakimuhereza.

Inyubako nziza cyane nyinshi ziri ahantu hamwe ubona ko ari ku isantere y'ubucuruzi, hari abakiriya bari kuza gushaka serivisi zitangirwa muri iyi centire y'ubucuruzi.

Imbuto nyinshi zahurijwe hamwe ziganjemo urubuto rw'umuneke, amaronji, ibinyomoro, inanasi, pome, ziri aho zicururizwa, aho umuntu uzishaka abasha kuza akazihasanga agatanga amafaranga.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi itangirwamo serivisi nyinshi, aha hari umubyeyi w'umunyarwandakazi uhagaze ahatangirwa serivisi za banki, ari kwaka serivise nabo bari kumuha serivisi yaje gusaba.

Umuryango ukinguye, utangirwamo serivisi zitandukanye, cyane cyane nk'izibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bya siporo, imipira yo gukina, hariho na gaze zicuruzwa, zifashishwa mu guteka mu mirimo ya buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi igaragaza ko higanjemo ibicuruzwa cyane cyane by'ibinyobwa. Ni byinshi, bakora ubucuruzi buranguza, bimeze neza cyane bifite isuku, ababagana babasha kubibona ku buryo buboroheye.

Inzu nziza y'ubucuruzi, ibereye amaso isukuye neza, icururizwamo ibikoresho byifashishwa mu rugo, byiganjemo gaze, byiganjemo ibiribwa, imbere yaho hari imodoka ishobora kugutwaza ibyo uhashye, ukagera mu rugo amahoro.

Umucuruzi ukora ubucuruzi buciriritse, ariko bubasha kumutunga umunsi ku munsi. Afite urusenda mu gasashe, arimo gutembera agenda arucuruza, ari nako abaguzi baza bakamuha amafaranga.

Ihuriro ry'amayira abiri ririho inzu iri mu gipangu cyiza cyane, ririho icyapa kiranga ko iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa, umuntu abasha kuhicira inyota ahageze bityo akirinda kuba yagwira isari mu nzira.

Inzu yubatse neza ikoreye isuku neza cyane iriho amakaro imbere ku mutwe wayo ayirinda kwangirika, ifite miryango ikinguye ikorerwamo serivisi z'ubucuruzi aho usanga umuryango umwe utangirwamo serivisi z'ibinyobwa.

Icyumba gikorewemo ubucuruzi bw'ibyuma by'ikoranabuhanga. Harimo abaguzi harimo n'abari kugurisha ibi byuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatse neza ifite isuku, isize amarangi meza, iriho ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwamo, harimo nk' izo kubona, agakawa ko kunywa n' uturyo uri ku nzira ndetse n' ikinyobwa ki kwicira icyaka.

Inzu nziza cyane, ifite imiryango ikinguye, itangirwaho serivisi z'ubucuruzi bwibanda cyane cyane ku bikomoka mu biti bibazwa. Hariho n'undi mucuruzi utangira serivisi zubucuruzi bw'imboga imbere y'iyi nzu.

Umuryango w'inzu y'ubucuruzi, yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, ifite isuku iriho icyapa kinini cyamamaza serivisi zikorerwamo aha ngaha, aho dusanga ko hakoreramo serivisi z'irembo serivisi z'itumanaho, serivisi z'amabanki ndetse hagurishirizwamo n'ibikoresho bya buri munsi.

Ni inyubako nziza nini ndende. Ukurikije ibyapa biyiriho ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi butandukanye. Hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwaka serivisi zitangirwamo, ndetse hari n'ibinyabiziga bibasha gutwara abantu bibageza iyo bajya.

Umuryango ukinguye wo ku nzu nziza yubatse neza iteye amarangi. Utangirwamo serivisi zijyanye n'ubucuruzi. Ni bucuruzi bwiganjemo cyane cyane imyambaro nk'inkweto, amakote, amapantaro. Hameze neza cyane kandi byoroheye buri muntu wese kuba yakwinjiramo.

Umuryango ukinguye w'inzu yubatse neza cyane, y'ubucuruzi ifite isuku, hacururizwamo cyane cyane ibicuruzwa byo mu bwoko bw'ibinyobwa, bifasha abantu kwirinda icyaka.

Inzu nziza cyane izengurutswe n'igipangu gisa neza, gifite umuryango mwiza, isize amarangi meza, urugo ruriho icyapa kiranga serivisi zikorerwamo ahangaha; bigaragara ko hakorwa serivisi zo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa.

Inyubako nziza cyane ifite isuku, isize amarangi, iriho ibyapa byo kwamamaza serivisi zihatangirwa, higanjemo cyane cyane iz'ikoranabuhanga, serivisi za banki, ndetse icururizwamo n'izindi serivisi zitandukanye.

Icyapa kinini cyamamaza isosiyete y'itumanaho ya Eyateri, ni isosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda, iki cyapa kiri ku inzu nini y'ubucuruzi, iri mu santere y'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza cyane iri ahantu heza, iriho icyapa cyamamaza imbere ku muryango, kandi irakinguye ni karibu ku bantu bose bashaka kwinjira bakaza kwihahira.

Inzu nziza zubatse neza zisize amarangi meza abereye amaso, zikorerwamo umurimo w'ubucuruzi. Imbere yazo hari igiti kinini gitanga umwuka mwiza ku bantu bakorera muri iyi santere. Hari n'itsinda ry'abantu baje gushaka serivisi zitangirwa muri iyi santere.

Inzu nziza y'ubucuruzi iteretse ahantu heza. Yubatse neza, isize amarangi meza, ifite umuryango ufunguye ukorerwamo ubucuruzi buciriritse, aho tubona imbere yayo hari abaguzi n'abacuruzi, bose baje guhaha ibicuruzwa bicururizwa muri iyi nzu.

Icyapa cyanditseho ibiranga inyubako. Kiriho gisobanura inyubako ziri muri iyi nzu, n'ibikorerwa muri buri nyubako, kibasha kukuyobora neza ukagera aho ugiye nta mayobera ahari.

Imiryango myinshi ifunguye, y'ahantu hagurishirizwa serivisi n'ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo isima, ibikoresho by'ubwubatsi, hatangirwa serivisi z'ikoranabuhanga, serivisi z'irembo n'ibindi byinshi.

Umuryango ukinguye ukorerwamo imirimo y'ubucuruzi, higanjemo cyane cyane amapiyesi akoreshwa n'ibinyabiziga. Ni umuryango rero uri ku nyubako nziza, isize amabara meza, kandi n'imbuga yayo imeze neza ifite isuku.

Itsinda ry'abantu biganjemo abaguzi, bahuriye mu iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga n'itumanaho, baragenzwa no gushaka serivisi zitangirwa muri uyu muryango cyangwa muri iri duka rikinguye.

Imbuga iriho ibikoresho byinshi, byiganjemo ibikora mu mazi. Biragaragara ko ariho bicururizwa, hatangirwa n'izindi serivisi zitandukanye zo mu ikoranabuhanga, nk'ama inite simukadi n'ibindi.

Umuryango ukinguye w'inzu yubatse neza, inzu ikoreshejeho amakaro asa neza cyane, mu muryango uriho umugano imbere yawo, biragaragara rwose ko abantu biteguye kwakira neza abaza babagana.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye mu masaha y'amanywa, aho abacuruzi bacuruza ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi bari mu kazi bategereje abakiriya baza guhaha, kugira ngo nabo babone amafaranga yo kwifashisha buri munsi.

Umuryango mwiza winzu ifunguye, inzu nziza cyane yubatse muburyo bukomeye, uteye amabara meza, ukorerwaho ubucuruzi bwibikoresho byinshi bikenerwa mu rugo, nka matora, amasogisi, n'utwenda tw'mbere.

Inyubako nziza cyane. Yubakishije amatafari ahiye. Imeze neza, iteye irangi. Ifite imiryango myinshi. Ikorerwamo serivisi z'ubucuruzi zitandukanye. Ifite n'umuriro w'amashanyarazi ubasha gutuma akazi gakorwa amasaha menshi.

Inzu ikorerwamo imirimo y'ububaji, ni imirimo y'intoki, ikorwa bafata igiti bakagihinduramo igikoresho, iriho icyapa kinini cyane kiyiranga, kiranga n'ibikorerwamo, buri wese ahangaha abasha kuhabona serivisi akeneye z'ibikomoka ku biti.

Inyubako nini imeze neza yubatse neza, ifite ibaraza ryiza cyane, riparitseho ibinyabiziga byinshi byo mu bwoko bwa moto bishyashya, bitarafungurwa. Biraparitse bitegereje abaguzi baza kubigura, bakajya kubikoresha mu mukazi kabo ka buri munsi.

Inzu nziza zubatse neza zikoreye amasuku ndetse ziteye amabara meza, ziri ku isantere y'ubucuruzi. Hari imiryango ifunguye, itangirwamo serivisi zitandukanye z'igura n'igurisha, z'ubwogoshi n'ibindi byinshi ku baje bagana muri iyi santere.

Umuryango ukinguye w'inzu nziza, yubatse neza, uteye amarangi y'amabara atandukanye. Ukingirijwe n'akarido k'umwenda wo mu gitambaro cyiza cya karokaro.

Umuryango ukinguye ku nyubako yubatse neza ikomeye isize amarangi neza, hari icyapa kiranga serivisi zikorerwa muri uyu muryango, twasangamo nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umuryango ukinguye uri mu nzu nziza ,yubatse neza ,isize amarangi ukorerwamo serivisi z'ubucuruzi ibicuruzwa bihari byiganjemo: imyambaro, intebe, ibikoresho bikoreshwa buri munsi mu rugo nk'ibase ,n'indobo n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo serivisi z'amafaranga, cyangwa serivisi za banki zose. Inyubako ifite amabara y'ubururu n'umweru ikoreramo banki yitwa IM banki, imbere yayo hari imbuga nziza ifite amapave, isa neza cyane.

Inyubako nini cyane nziza zikoreye amasuku neza, zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi butandukanye, aho tubona cyane serivisi z'itumanaho ndetse no guhaha ibiribwa bitandukanye.

Ubucuruzi bw'imyenda igura amafaranga aringaniye, aho buri wese yabasha kuyisangamo akagura umwenda wo kwambara, hari n'icyapa cyamamaza amoko menshi y'ibiribwa, umuntu ashobora kwifashisha.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu buhinzi byiganjemo umurama w'imbuto zitandukanye nk'umurama w'amashu, umarama wa karoti, umurama wa seleri ndetse harimo n'imiti ikoreshwa mu buhinzi. Harimo iyica udukoko ndetse harimo n'amafumbire.

Umusore mwiza cyane wishimye umeze neza ari mu nyubako yo hejuru, ifite ahantu heza ho gukandagira ku gatapi k'icyatsi keza cyane, arahagaze arishimye yishimiye inyubako arimo kwisa neza.

Icyapa kinini cyanditse mu mabara meza y'ubururu n'umweru, n'agakara gakeya. Kiraranga inzu yakirirwamo abashyitsi, aho bashobora kubona uburyamo aho bashobora kubona aho kugera, ndetse no kuruhukira.

Ikirere kimeze neza cyane kirimo igicu gikeye cy'ibara ry'umweru n'ubururu. Ni ikirere kigaragaza ko uyu munsi hari umucyo hakeye kandi hasa neza, nta mvura iri bugwe.

Inyubako ziri hamwe zikoze urugo, inyubako zisa neza cyane, ziteye amarangi meza, zirakomeye, abahatuye kandi babasha kubona umwuka mwiza, uturutse kuri ibi biti bikikije izi nyubako.

Inyubako nziza cyane, yubatse neza ikoreye isuku, imbere yayo hari amazi, abantu bashobora kuza bakiye bakahidagadurira, bakaharuhukira, bakahafatira n'ibyo kunywa n'ibyokurya, ari nako baruhuka boga muri aya mazi ari imbere yayo.

Amavuta yo kwisiga akoreshwa ku ruhu, mu musatsi se, cyangwa ku birenge, amavuta rero ari ahantu acururizwa, uyashaka wese abasha kuyabona mu buryo bworoshye iyo ageze kuri iyi santire.

Igikoresho gikoreshwa mu gikoni cyitwa imbabura, kiri ku isoko, ni imbabura ikoze neza mu buryo burondereza ibicanwa, aho ifite igice cy'ibumba gishyirwamo amakara, n'igice cy'icyuma inyuma, kiyifasha gushyuha cyane, bityo igahishya ibiryo vuba.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe bahujwe n'igikorwa cyo gucuruza ibiribwa byiganjemo cyane cyane imboga nk'intoryi, amashu n'izindi mboga. Abaguzi n'abagurisha bose bahuriye hamwe kugirango bahanahane ibyo umwe akeneye.

Umuryango ukinguye w inzu ikorerwamo ubucuruzi buciriritse, higanjemo cyane ibikoresho bikenerwa mu rugo, amavuta yo kwisiga, amatara acanwa, amatara y'amashanyarazi.

Umuryango ucururizwamo ,ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyambaro. Tubonamo imipira ,amakanzu ndetse n'indi myambaro. Umucuruzi ahacururiza aricaye ategereje abaguzi.

Amoko menshi y’imbuto zitandukanye, atondetse mu buryo buri bwoko bw’imbuto bwegeranye. Aha byoroheye umuguzi kuba yabasha kubona imbuto ashaka, ndetse n’umucuruzi akaba yabasha kuzimuha bimworoheye.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa n'ababyeyi n'abana b'impinja. Ni ibicuruzwa hano byiganjemo: ibigoma, amasume, imyenda y'abana ndetse n'udukoresho bakoresha bari guhanagura abana babakorera isuku.

Ahacururizwa amoko y'imyambaro myinshi itandukanye hari: amasogisi hari imyenda ya siporo ,hari imikandara ,aha ngaha umuguzi abasha kuza agahitamo icyo akeneye akishyura amafaranga na we akamuha icyo akeneye.

Umuntu uri kunywa ikinyobwa kizwi ku izina ry'umusururu cyangwa se ikigage. Ikigage, ni ikinyobwa gishigishwa mu masaka y'amamera, kikabasha kunyobwa n'abantu b'ingeri zose, kuko kiraryoha.

Umusaruro mwinshi ukomoka ku buhinzi wiganjemo imboga n'imbuto. Imboga nka karoti, nka puwavuro, shufureri, intoryi, wakusanyirijwe hamwe ku isoko, aho ubasha kugurishirizwa, bityo umuguzi akabasha kuza akabona serivisi.

Ubucuruzi buciriritse aho uyu muntu ashaka kwiteza imbere acuruza ibintu bikenerwa n'abantu kenshi cyane kandi bikamuzanira amafaranga, bityo akabasha kwikemurira ibibazo bya hato na hato.

Ahacururizwa ibicuruzwa byinshi bitandukanye byiganjemo ibinyobwa bimara inyota kandi bidasembuye. Habasha no kubonekamo ibikoresho wakoresha usukura ahantu nk'amasabune y'ifu hameze neza bitondetse neza.

Ubucuruzi buciriritse bwafasha umuntu utuye mu cyaro kwiteza imbere， aho umuntu acuruza ibintu bikenerwa buri munsi n'abantu batuye mu gace acururizamo.

Urujya n’uruza rw’abantu benshi bahuriye mu isoko ahagurishirizwa ibintu byinshi bitandukanye. Aho turi kubona cyane cyane nk’imboga, ibisheke, abakiriya benshi baje guhaha ibyo bakeneye.

Urujya n'uruza rw'abaguzi n'abagurisha, bahuriye hamwe mu nzu nini itangirwamo serivisi zitandukanye, aho harimo ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa biribwa ako kanya nk'amagi, imigati, sambusa, ndetse n'ibindi bicuruzwa byifashishwa umunsi ku munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye mu isoko, ricururizwamo cyane cyane imyenda, bari guhaha rero n'abacuruzi batondetse imyenda, bari gushaka abakiriya. Buri wese akabasha kubona icyo yaje guhaha bimworoheye.

Itsinda ry'abantu bakeya baringaniye, bahuriye ku gasantere ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi, aho umuguzi ahura n'ugurisha bagahana amafaranga, umwe agatahana icyo akeneye agasigira undi amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bagize itsinda rigari bahuriye mu isoko, harimo abacuruza serivisi zitandukanye, harimo cyane cyane ama inite akoreshwa mu ikoranabuhanga, baracuruza ibirayi, imyenda, ndetse hari n'abakiriya baje babagana baje gushaka izo serivisi bacuruza.

Ubucuruzi buciriritse bw'ibikenerwa cyane bikoreshwa mu rugo， higanjemo amavuta yo kwisiga， amavuta yo guteka，amasabune， amagi， itsinda ry'abantu babiri bagizwe n'umuguzi n'umucuruzi, bari kuganira， umwe atanga serivisi，undi ayisaba.

Iduka rinini cyane ricuruza ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga harimo nk' ibyinjiza umuriro muri telefoni, harimo ibirinda telefone kwangirika, harimo imigozi iyo yumviriza mu matwi. Ni iduka rimeze neza rifasha nyiraryo kwiteza imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye mu isoko, hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, byiganjemo: ibiribwa, amavuta yo kurya, ibikapu byo gutwaramo, ibyo wakwifashisha utegura amafunguro, baje gushaka serivisi rero bahaha, bahahirana n'abacuruzi babona amafaranga.

Mu isoko hagati ahacururizwa ibicuruzwa bijyanye n'imyambaro n'inkweto, ahari urujya n'uruza rw'abaguzi n'abacuruzi baje guhahirana. Bamwe bari kugurisha abandi bari kugura.

Isoko ryubakiye neza risakaye ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ibiri imbere hano bigaragara cyane ni imbuto ziganjemo: imineke, wotameroni, amapapayi ndetse na pome.